Umugore ufite imisatsi miremire akaba yambaye ikanzu irimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, imbere yekaba ari igihure cyabugenewe bakoresha bavuga, ku rundi ruhande hakaba ari icyapa kinini kiri mu mabara y'icyatsi umweru.

Abantu benshi bicaye mu nyubako harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bicaye mu ntebe zifite iba ry'ivu ndetse n'umuhondo muri iyo nyubako barimo inyuma hari icyapa hariru umukobwa uhagaze ndetse imiryango y'iyo nyubako irafunguye.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku. Hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Ku ruhande hakaba hari ibyapa biri mu mabara y'umweru n'ubururu. Hagati muri abo bantu hakaba hagaze umugabo akaba arikuvuga.

Umugore wambaye ishati y'umutuku, akaba yambaye n'amataratara, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ku rundi ruhande hakaba hari umugore wambaye ikoti, imbere yabo hakaba hari ibikoresho byabugenewe bakoresha bavuga cyangwa basakaza amajwi. Bakaba bicaye mu ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hateretse ameza ndetse hakaba hariho n'ibintu bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, iruhande hakaba hari undi muntu wicaye wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse akaba yambaye n'amataratara, iruhande rwe hakaba hicaye umugabo wambaye ishati y'ubururu ,akaba afite igikore cy'ikoranabuhanga mu ntoki. Inyuma kandi abantu benshi niho bicaye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, akaba yambaye n'amataratara, inyuma ye hakaba hari abakobwa babiri, umwe akaba yambaye agasengeri kari mu mabara y'umweru n'umukara, undi akaba yambaye agakote k'umukara, inyuma hakaba hari n'abandi bantu benshi, bagiye batandukanye kandi bose bakaba bicaye.

Umugore wirabura akaba yambaye umupira uri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga cyabugenewe cyo gusakaza amajwi. Inyuma ye hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu.

Umugabo wirabura wambaye amataratara, akaba yambaye ishati ifite amaboko maremare, iruhande rwe hakaba hari abagore babiri bicaye. Umwe akaba yambaye amataratara, undi na we akaba yambaye ikoti ry'umukara. Imbere yabo hakaba hari imeza iriho uducupa tw'amazi, ibitabo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umugabo w'irabura wambaye amataratara, wambaye ishati y'amaboko maremare afite ibara ry'umweru akaba imbere ye yahateretse mudasobwa, ikirahure kirimo amazi, kuruhande rwe hakaba undi mugabo wambaye ikoti ry'umukara kurundi ruhande rwe hakaba harundi mugabo afite uruhu rwera nawe yambaye amataratara, inyuma ye hakaba hicaye abandi bantu benshi bagiye batandukanye.

Abantu benshi bicaye mu nyubako harimo abagore n'abagabo, bakaba bambaye imipira ifite ibara ry'umweru y'amaboko magufi. Muri iyo nyubako ikaba ifitemo amarido ndetse hakaba hari n'umugore wambaye umupira w'umweru uhagaze.

Abantu benshi bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umukara, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, abenshi bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, imbere hakaba hariho abandi bantu bicaye, hakaba hari icyapa kinini ndetse inyuma y'abo bantu hakaba hari ibikoresho byabugenewe bifata amashusho.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru iruhande rwe hahagaze undi mugabo wambaye ishati y'amabokoko maremare y'ubururura n'undi mugabo wambaye ikoti, Imbere y'abo hateretse imeza ndende ifite igitambaro cy'umweru ndetse n'umukara ndetse muri iyo nyubako barimo harimo abantu benshi na bo bahagaze.

Umugabo wambaye ishati ifite ibara ryivu, kuruhande rwe hakaba undi mugabo wambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi, kuruhande rwe hakaba hari undi mugabo wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu bwijimye, imbere hakaba hateretse agacupa k'amazi inyuma yabo hakaba hicaye undi mugabo kandi bakaba bari mu nyubako.

Abasore benshi bicaye, harimo n'abakobwa. Hakaba hariho umusore ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, wambaye umupira w'icyatsi w'amaboko magufi. Iruhande rwe hakaba umuhungu wambaye umupira w'umukara ndetse urimo amabara y'umweru. Iruhande hakaba hari n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye.

Umugabo wambaye amataratara, ufite uruhu rwirabura, akaba afite umusatsi mukeya, akaba afite n'ubwanwa, akaba yambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse n'amaboko maremare, akaba afite n'igikoresho cyagenewe gusakaza amajwi, ku ruhande hakaba hari umugabo wambaye amataratara n'umupira w'umuhondo, inyuma ye hakaba hari undi mugabo.

Abagabo babiri n'abagore babiri bicaye mu nyubako. Umugabo umwe yambaye ikoti, undi yambaye umupira w'amaboko mugufi, ufite ibara ry'umuhondo, undi mugore yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo n'amaboko magufi ndetse n'undi yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu n'amaboko magufi, inyuma hakaba hari icyapa.

Abantu benshi baricaye bakaba bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu ndetse barimo abagabo n'abagore, bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki zabo. Imbere hakaba ari abagore babiri n'umugabo umwe bicaye, imbere hakaba hari imeza iriho ibipapuro uducupa tw'amazi ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Umugabo wambaye imyenda y'abasirikare akaba ari kwandika iruhande rwe hakaba hari abantu bagiye batandukanye ndetse bakaba bicaye muri sale, imbere yabo hakaba hari umugabo ufite igibusho cy'ikoranabuhanga aricyo mudasobwa ndetsekaba hakaba hari n'imeza iteretseho ibyokurya bitandukanye ndetse hari n'abandi bantu benshi cyane bicaye.

Abantu benshi bicaye harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bicaye ku meza maremare; hagati hakaba hateretsemo ururabo, hakaba ari mu nyubako ifite ibara ry'umweru ndetse kuri iyo nyubako hakaba hari igikuta; icyo gikuta kikaba kiriho icyapa.

Abantu benshi bicaye mu gishararagati, harimo abagore ndetse n'abagabo, ariko hakaba hari abagore bane bicaye ku murongo w'imbere, harimo babiri bambaye imyenda ifite amabara asa, ndetse n'abandi babiri bambaye imyenda itandukanye. Imbere yabo hakaba hari imeza ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Umugabo ufite imisatsi mikeya, wambaye amataratara, akaba yambaye umupira w'amaboko mugufi ufite ibara ry'umukara uriho n'amagambo y'umweru, imbere ye hakaba hateretseho imeza iriho mudasobwa ebyiri, kandi akaba ari no kuzikoresha.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare iruhande rwe hakaba hari n'undi muntu wicaye wambaye ishati, imbere yabo hakaba yateretse za mudasobwa kurundi ruhande hakaba hari umugore wambaye umupira w'umukara nawe imbere akaba ateretse mudasobwa ndetse n'abandi bantu benshi bicaye bari gukoresha za mudasobwa.

Abagabo bicaye umwe afite igikoresho cy'ikoranabuhanga ari cyo bita mudasobwa, abandi nabo bafite ibikoresho by'ikoranahangaga bigiye bitandukanye mu ntoki zabo, ku ruhande hakaba hari abandi bantu bahagaze ndetse hakaba hari n'ibiti bigiye bitandukanye

Umuhungu wambaye ingofero ifite ibara ry'umweru, umupira w'umukara, akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru, imbere ye hakaba hari meza ndetse akaba ari gukoresha mudasobwa. Ku ruhande hakaba hari undi muntu wicaye na we ari gukoresha mudasobwa...

Abagabo benshi bicaye ku murongo. Bamwe bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga ari byo mudasobwa, abandi na bo bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga ari byo bita terefone. Umwe akaba yambaye ingofero abandi bakaba nta ngofero bambaye.

Abantu benshi bicaye ku dutebe, abandi bari kugenda. Ku ruhande hari inyubako iriho ibyapa bigiye bitandukanye, ndetse n'indi nyubako ku rundi ruhande. Aho hantu bari hakaba hari ibiti ndetse n'indabyo.

Umuhungu wirabura wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru ndetse n'ingofero fite ibara ry'ubururu imbereye hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ingofero y'ubururu bikaba biteretse ku meza, ndetse hakaba hari n'umugabo wicaye w'inzobe wambaye ishati y'amaboko maremare.

Abanyeshuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho za mudasobwa ziri mu mabara y'icyatsi n'umweru, ku rundi ruhande hakaba hari idirishya.

Umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu akaba ari kugenda mu muhanda, iruhande rwe hakaba hari abandi bahagaze, ku rundi ruhande hakaba hari ibiti byinshi cyane ndetse n'inyubako zigiye zitandukanye, kandi hakaba hari ipoto rishinzwe guta amashanyarazi.

Umugore wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, akaba yambaye n'ingofero ifite ibara ry'umweru, akaba yambaye n'agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, akaba yambaye n'ibikoresho byabugenewe bimurinda gukomereka, imbere ye hakaba hari imashini bigaragara ko ari umutekinisiye.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umukara kikaba giparitse imbere y'inzu y'ubucuruzi, ku ruhande hakaba hari umuntu uhagaze ndetse akaba n'igipangu ugira umubare w'umukara, iruhande akaba ari umutaka w'umuhondo w'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, iruhande hakaba hari inzu z'ubucuruzi ndetse hakaba haparitse n'umumotari.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umukara kikaba giparitse hafi y'umuhanda kurundi ruhande hakaba hari ikinyabiziga kiri kugenda, nyuma yicyo kinyabiziga hakaba hari ipikipiki itwaye umugenzi kurundi ruhande akaba hakaba hari icyapa hakaba hahagazeho umuntu ndetse inyuma yacyo akaba hari umuwe ari kugenda.

Ikinyabiziga gifite amabara y'umukara, kiri kugenda mu muhanda, ku ruhande hakaba hari umuntu uri gucaho ndetse hakaba n'umutaka w'umuhondo w'ushinzwe gutanga serivise z'itumanaho, iruhande hakaba hari abantu bari kugenda ndetse n'ikindi kinyabiziga ndetse hakaba hari n'inzu n'ibiti.

Umuntu uhagaze mu marembo, ku ruhande rwe hakaba hari igipangu gifite ibara ry'ubururu ndetse hakaba n'umuhanda w'ibitaka. Ku rundi ruhande hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umweru, ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'abagenzi bari kugenda.

Umugabo wambaye itaburiye ifite ibara ry'umweru uru rubande rwe haka undindi mugabo wambaye ishati ku ruhande rwabo ari abantu bafite uruhu rwera ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye kandi akambukapfu ruhande haba hari inyubako ifite amagambo y'umukara ndetse n'ubururu akaba ari ibitaro.

Ibinyabiziga biri mu mabara agiye atandukanye, harimo ibifite amabara y'umutuku ndetse n'igifite ibara ry'ivu zikaba ziparitse ku muhanda w'amabuye, inyuma hakaba hari igiti, inyuma hakaba hari inzu ndende ndetse hakaba hari n'abantu bari kugenda.

Umugabo wirabura wambaye ikoti ry'ubururu bwijimye, akaba yambaye n'ishati y'umweru kuruhande rwe akaba ari umugore wambaye amataratara, nawe wambaye ikanzu, imbere hakaba hari ibirahure, inyuma akaba ari abantu bicaye bagiye batandukanye.

Umugabo wicaye, wambaye ikoti ry'umukara, inyuma ye hakaba hateretse imeza ndende, ku ruhande, hakaba ari icyuma cyabugenewe cyo gusakaza amajwi, ku rundi ruhande hakaba hari umugabo uhagaze wambaye ikoti, ku rundi ruhande hakaba abantu benshi cyane bagiye bicaye.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'imyenda ifite amabara y'ubururu bwijimye, akaba yambaye n'isaha. Iruhande rwe hakaba hari umugore w'inzobe wambaye imyenda y'umukara, ku rundi ruhande hakaba hari umugabo wambaye amataratara n'ikoti rifite ibara ry'ivu, inyuma ye hakaba hari undi musore uhagaze.

Umugabo wambaye amataratara akaba yambaye n'ikanzu ifite ibara ry'umutuku, akaba afite igikoresho cyabugenewe cyo gusakaza amajwi, akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara, imbere ye hakaba hateretse agacupa karimo amazi, iruhande rwe hakaba hari umugabo nawe wambaye ikanzu y'umutuku.

Umugabo wambaye ikanzu y'umukara ndetse hakaba harimo n'amabara y'umweru, akaba yambaye agapfukamunwa iruhande rwe hakaba hari umugabo uhagaze unambaye agapfunwa afite ibara ry'umweru akaba yambaye imyenda y'iroza, ku ruhande hakaba hari abandi bantu bicaye bambaye imyenda y'amaroza.

Umuntu wambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, akaba ari mu nyubako ifite ibara ry'umweru. Ku ruhande hakaba hari intebe ndende zicayeho abagabo bane bambaye imyenda ifite ibara rya roza.

Imodoka y'ikigo gishinzwe gucunga umutekano wo mu muhanda ndetse n'uw'abagenzi ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Ku ruhande hakaba hari ibinyabiziga harimo ipikipiki. Ku kurundi ruhande hakaba hari abantu bari kugenda ndetse hakaba hari n'inzu z'ubucuruzi.

Umugabo wirabura akaba ari mu modoka ku ruhande rwe hakaba hari abantu bagiye bafite ibyapa harimo uwambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, umupira ufite ibara ry'icyatsi bakaba bari kumwamamaza inyuma hakaba hari inzu hakaba hari ndetse n'umutaka w'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho.

Icyuma cyabugenewe cyo kwerekana amashusho kinini kikaba kiriho amagambo ndetse n'umuntu, ku rundi ruhande akaba umugabo uri kugendera ku muhanda wa kaburimbo hakaba harimo amapikipiki atatu ari kugenda mu muhanda iruhande hakaba hari inzu ndende.

Umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare irimo amabara agiye atandukanye, akaba ari kugenda ku ruhande rwe hakaba hari abantu bagiye batandukanye ndetse bakaba bafite n'ibikoresho bigiye bitandukanye, iruhande rwabo hakaba hari abantu bagiye bahagaze ndetse hakaba n'ibinyabiziga biparitse.

Abantu bambaye imipira y'imyeru n'ingofero z'imyeru harimo n'abambaye imipira y'ubururu, bakaba bafite utudarapo turimo amabara umweru, icyatsi ndetse n'ubururu bakaba bahagaze. Inyuma hakaba hari igisharagati kinini kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu, akaba ari kumwe n'abana babiri bakaba bamuhobeye, iruhande hakaba hari n'abandi bana, gusa iruhande rw'abo bana hakaba hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye ndetse bakaba bafite n'ibyapa biri mu marabara y'ubururu.

Abagabo babiri bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, ku ruhande hakaba hari umugore na we wambaye ishati y'umweru, imeza yabo hakaba hateretseho ibikoresho byabugene byo gusakaza amajwi, hakabaho ndetse n'uducupa tw'amazi, imbere ye hakaba hari amafoto.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'icyo kinyabiziga hakaba hari kugenda amapikipiki ahetse abagenzi, ku rundi ruhande hakaba hari abantu bari kugenda n'amaguru, ku rundi ruhande hakaba hari ibiti.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi kikaba gifite amabara y'umweru ndetse n'andi mabara ,ku ruhande hakaba hari ikindi kinyabiziga nacyo cyabugenewe cyo gutwara abantu benshi hagati y'ibyo binyabiziga hakaba harimo abantu bahagaze ku ruhande hakaba hari igikuta.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwaramo abantu benshi, kikaba gifite ibara ry'umweru, inyuma hakaba hariho ibyapa bigiye bitandukanye mu mabara y'umutuku ndetse n'ubururu, ku ruhande rw'icyo kinyabiziga hakaba hari umuntu uri kugenda wambaye ingofero ndetse n'urundi ruhande hakaba hari abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibindi binyabiziga byinshi.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwaramo abantu benshi kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, kikaba kiri kugendara mu muhanda wa kaburimbo, inyuma hakaba hari ibiti birebire ndetse n'ikindi kinyabiziga kikaba kiri kugenda, iruhande hakaba haparitse ipikipiki.

Imodoka yabugenewe yo gutwara imizigo myinshi ikaba ifite ibara ry'umutuku, ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ku ruhande hakaba ari ipoto amazu indabyo ku rundi ruhande hakaba hari umugenzi urikugenda ndetse inyuma hakaba hari ibindi binyabiziga biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara imizigo myinshi kikaba gifite iba ry'icyatsi ndetse n'umutuku wijimye iruhande rwacyo hakaba hari abagore babiri bari kugenda ndetse n'ibindi binyabiziga, imbere yacyo hakaba hari ikindi kinyabiziga nacyo kiri kugenda.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru kikaba giparitse ku ruhande, hakaba hari ikindi kinyabiziga kurundi ruhande, hakaba hari umuntu uri kugenda n'amaguru. Imbere y'ibyo binyabiziga hakaba hari imiryango ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo hari kugendamo ikinyabiziga gifite ibara ry'icyatsi cyabugenewe cyo gutwara imizigo. Ku ruhande hakaba hari abagenzi bari kugenda n'amaguru ndetse mu muhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo igare.

Ipikipiki iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo iruhande rwayo hakaba hari ikindi kinyabiziga kiri kugenda cyagenewe gutwarwamo imizigo, kikaba gifite ibara ry'umweru imbere akaba hari ikinyabiziga kiri kugenda gifite ibara ry'umutuku, ku rundi ruhande hakaba hari abantu bari kugenda.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara imizigo, kikaba gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, ku ruhande hakaba hari ibiti ndetse hakaba hari n'amapoto yabugenewe, gusakaza amashanyarazi, ku rundi ruhande hakaba hari abantu bahagaze ndetse n'ikinyabiziga gihagaze.

Imodoka eshatu zifite ibara ry'umutuku ziparitse mu muhanda wa kaburimbo akaba arizo abantu bakoresha mu gihe bashaka kumenya gutwara ibinyabiziga. Inyuma y'izo modoka hari ibyatsi, ibiti ndetse n'ipoto.

Ibinyabiziga byabugenewe byo gutwara imizigo myinshi cyane, bikaba biparitse, iruhande hakaba hahagaze umuntu, imbere y'uwo muntu hakaba hari inyubako, ndetse nanone bagiye bahagaze, hakaba hari umutaka w'ikigo cyo gutanga serivisi z'itumanaho.

Ibinyabiziga bibiri bisa bishoreranye, imbere hakaba hari ikindi kinyabiziga kirekire kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, ku ruhande hakaba hari abantu bahagaze, hakaba harimo umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwarwamo abantu kikaba gifite ibara ry'umweru, kikaba kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, iruhande hakaba hari umutaka w'umuhondo, w'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, ku ruhande hakaba hari abagore babiri bari kugenda.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara ibikoresho bigiye bitandukanye, kikaba gifite ibara ry'umweru, hakaba hariho ibyapa bitandukanye, ku ruhande hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, ibyatsi ndetse na ruhurura, ku rundi ruhande hakaba hari ibiti.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara ibintu biremereye cyangwa imizigo myinshi, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo kikaba gifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru. Kuruhande hakaba hari igare riri kugenda mu muhanda kurundi ruhande haparitse ibindi binyabiziga.

Ipikipiki iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo kandi ikaba itwaye n'umugenzi, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari igikuta gifite amabara y'umweru kiriho amagambo y'umukara, ndetse hakaba hari n'ibiti ndetse n'amapoto ashinzwe gusakaza amashanyarazi ndetse n'amatara.

Umumotari utwaye ipikipiki akaba atwaye n'umugenzi bakaba bambaye ingofero z'umutuku ,iruhande hakaba undi mumotari nawe utwaye ipikipiki ariko nta mugenzi afite, iruhande rw'uwo mumotari hakaba hari igikuta kiri mu mabara y'umweru ndetse kandi icyo gikuta kikaba cyanditseho amagambo y'ubururu.

Imodoka ifite ibara ry'umuhondo ikaba yarabugenewe gutwara imizigo myinshi ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, inyuma akaba hari kugenda indi modoka yagenewetwara abantu benshi ifite ibara ry'umuhondo, kuruhande hakaba hari inzu ndetse n'ibindi binyabiziga.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara imizigo myinshi, gifite ibara ry'umweru kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hakaba ihari ribigori ndetse n'ibiti, ku rundi ruhande akaba ari icyapa cy'ikinyobwa gifite ibara asa umutuku.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwarwamo abagenzi benshi, kikaba gifite ibara ry'umweru, kiba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande hakaba hari inzu z'ubucuruzi zigiye zitandukanye. Muri izo nzu, hakaba harimo inzu ifite amabara y'umutuku ndetse ikaba ifite n'icyapa cy'umutuku.

Umuntu wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi ari kugenda mu muhanda. Ku rundi ruhande hari abantu bari kugenda mu muhanda ndetse n'abandi bicaye. Ku ruhande hakaba hari ibiti ndetse n'indabo ndetse hakaba hari n'inzu ndende.

Umugore uhagaze ufite igikapu mu ntoki, akaba ahagaze ku ruhande rwe akabona umuhandando wa kaburimbo rundi ruhande akaba ari ubusitani ubwo busitani hakaba harimo ibyapa mu mabara y'umweru, ndetse n'icyatsi n'umukara inyuma hakaba hari imisozi inzu n'izindiri n'ibice bitandukanye.

Ibinyabiziga byabugenewe byo gutwara imizigo biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Ku kuruhande hari ibyapa bibiri biri mu mabara y'umweru, icyatsi ndetse n'umukara bikaba bishinze mu busitani. Ku ruhande hakaba hari ibiti ndetse n'imisozi.

Umugore w'uruhu rwera akaba ahagaze munsi y'icyapa cy'umweru cyankishije amagambo y'umukara, akaba ahahagaze mu busitani iruhande rwe hakaba ari umuhanda wa kaburimbo kurundi ruhande akaba ari ibyatsi ibiti ndetse n'inzu.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara kikaba gihagaze iruhande rw'umuhanda . Iruhande rw'icyo cyapa hakaba Hari abantu benshi bahagaze, indabo ndetse n'ibiti ku rundi ruhande hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, ukaba uri kugendamo n'abanyamagare ,ku rundi ruhande hakaba hari ibiti ndetse n'abandi bantu bahagaze bari kureba.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba uri kugendwamo n'ibinyabiziga byinshi ndetse n'abanyamaguru benshi. Ku ruhande hakaba haparitse ibindi binyabiziga biri mu mabara y'umweru n'umukara kurundi ruhande hakaba hari ibiti ndetse n'inzu z'ubucuruzi.

Ni umuhanda w'igitaka iruhande rw'umuhanda kaparitseho n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo ibifite ibara ry'ubururu, ibara ry'umukara, ibara ry'umweru, ibara ry'ivu ndetse hakaba hari n'umugabo wicaye. Kuruhande hakaba n'abandi bagabo babiri barimo kugenda, iruhande hakaba hari inzu z'ubucuruzi.

Imodoka ifite ibara ry'umweru ikaba iri kugenda mu muhanda, inyuma hakaba indi modoka ndetse hakaba imodoka yikizeru itandukanye, hakaba hari ibiti by'imikindo, iruhande hakaba hari inzu ndende ndetse hakaba hari n'amatara ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo amapikipiki atwaye abagenzi, harimo amagare, ku rundi ruhande hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse imbere hakaba hari inyubako z'ubucuruzi.

Umunyonzi ufite igare akaba ahagaze mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hakaba hari amapikipiki abiri aparitse, hakaba hari icyapa ndetse hakaba hari n'ubusitani. Ku rundi ruhande hakaba hari abandi bagenzi bahagaze, hakaba hari n'ibiti.